Hamwe na Radiant, ubu yabazaniye ubwishingizi bwiza cyane bw'amatungo harimo inkoko, inka, ingurube ndetse n'andi yose, rero niba nawe wifuza gukorana natwe watugana ku biro byacu tukabigufashamo.

Ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda ndetse no ku isi yose bifasha abantu bafite ibinyabiziga ndetse n'ubundi bucuruzi mu kwishingira ibyo bakora kandi bagira ikibazo bikazabafasha mu buryo bwihuse.

Iyi ni kampani y'ubwishingizi yitwa Buritamu, yishingira buri munyarwanda wese ushaka kwivuza neza kandi akaramba mu gihe kinini. Babafasha kumererwa neza nyine mu gihe cyo kwivuza mu buryo bwiza.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Radiant gikorera mu Rwanda kishingira abaturarwanda harimo abatwara ibinyabiziga ndetse n'andi ma kampani y'ubucuruzi kugira ngo ibyo bakora byishingirwe nihagira ikibazo bazabafashe.

Iyi ngiyi ni imirimo y'amaboko y'ubudozi aha ngaha bakudodera ibikapu byiza gakondo Kinyarwanda wabasha kuba wahaha ukakajyana ahantu hatandukanye guhahiramo ndetse n'utundi tuntu twinshi.

Ni byiza cyane kugira ubwishingizi mu mirimo yawe yose, rero mu gihe cyiza kandi mu mwanya mwiza wahamagara kabiri, gatatu, kabiri, gatatu, bakagufasha mu bijyanye nabyo. Aho nta ahandi ni muwa inshuwarensi kampani.

Ese nawe waba ugifite imbogamizi, urwikekwe cyangwa gutinya mu kwishyura ubwishingizi. Ni byiza kugana ibigo by'ubwishingizi bikorera ahantu hose kubera ko bugufasha mu kukugoboka.

Hamwe na Radiant ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi mu Rwanda, cyabazaniye uburyo bwiza bwo kwishingira ibicuruzwa byawe mu gihe waba wibwe n'ibisambo bakorohereza kubigarura kandi neza.

Radiant ni ikigo cy'ubwishingizi cyishingira abantu ndetse n'ibicuruzwa byabo, haba ibinyabiziga n'ibindi byose. Mwakigana rero bakabafasha mu bikorwa bigamije iterambere ry'Igihugu kandi rirambye.

Ni ifoto y'umukozi wa buritamu, ikigo cy'ubwishingizi kiri mu Rwanda, gifasha abanyarwanda kwishingira ibinyabiziga byabo ndetse n'indi mitungo yabo bakoroherwa bako...

Ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi cya Ejo Heza, gifasha buri Munyarwanda wese mu kwizigamira bakazamugoboka ageze mu za bukuru mu gihe atagishoboye gukora akazi, bakazajya bamuha kuri ya mafaranga yagiye abitsamo.

Ibinyabiziga cyangwa se imodoka na moto, ni bimwe mu bikoresho bikunda kuba byagira impanuka kenshi na kenshi, rero ni byiza kuba wagana ibigo by'amasiranse bakagufasha kubyishingira maze bikazakorohereza mu gihe waba wahuye n'impanuka.

Ese waba uzi banki nziza cyane yizewe mu Rwanda! Iyo ntayindi bank of kigali, igisubizo ni "nanjye ni beka" waba ushaka kubitsa, kubikuza se cyangwa kubona amafaranga mu buryo bwihuse wakoresha iyi serivisi yihuse cyane.

Ndabona fomu ushobora gukoresha mu gihe uba ushobora kuba ushaka kohereza amafaranga kuri mobayilo mani yawe uyakura ahantu runaka nyine, kugira ngo abe yazaho nyine nawe uyakoreshe mu buryo nk'ubwo kwishyura se cyangwa ube wayabikuza.

Muri iki gihe rero tugeze mu isi y'ikoranabuhanga ibintu byose byarihuse, kuko ubu ngubu usigaye wabona amafaranga yawe wabikije wibereye mu rugo iwawe nta kikugoye ukoresheje telefoni yawe, ni byiza rero gukoresha banki kuko zizewe.

Ubu byaroroshye mu gihugu cyangwa se ku isi yose bazanye sisitemu zijya muri telefoni zizwi nka apulikasito wifashisha ugenzura konti yawe uko ihagaze bitagusabye kwigereyo.

Apurikasiyo zikoreshwa mu materefoni za banki zigira uruhare runini mu iterambere, kubera ko umwanya wagakoresheje ugerayo uwukoresha ukora ibindi bikorwa bya byara inyungu mu buzima bwawe.

Amabotiki ndetse n'ahandi hantu hose hagira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu; kubera ko bishyura imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi bintu byose by'ingenzi.

Ubu biroroshye cyane kuba wabona inkweto zo kugura kuko mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hose usanga bazicuruza kandi bataguhenze, rero nawe niba utifuza guhenda gana umucuruzi uzicuruza maze agufashe.

Iki ni kimwe mu bigo byiza cyane ushobora kujya kubariza cyangwa gushopinga imyenda, bacuruza imyenda y'abagabo, n' iy'abagore ndetse ni iy'abana. Ni rawa doti eya korozingi sitowa.

Ubucuruzi bwa butike bugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bintu byose by'ingenzi mu mibereho y'ubuzima bwa muntu.

Bamwe mu rubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abagore bagiye batinyuka, bagiye bashinga buzinesi zibafasha kubyara inyungu ndetse no gukomeza kugira iterambere ryiza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu ma butike cyangwa se ahandi hantu hose bagurira, uhasanga ibicuruzwa by'amoko yose, rero agira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu kubera ko atanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo.

Waba ushaka kwigurira cyangwa se kwihahira ibyo kurya byawe byiza, ni byiza ko wigerera muri alimantasiyo cyangwa se supamaketi ukihahira ibiryo bifite ubuziranenge kandi mu buryo bwihuse bataguhenze.

Mu gihugu cy'u Rwanda abadamu benshi bagiye biteza imbere bishingiye ku gutangira utubizinesi dutoya tugenda twaguka uko iminsi igenda iza, si byiza rero ko nawe wakwicara washaka icyo waba ukora niyo cyaba gito nta kibazo.

Waba ushaka kwigurira umwenda wo kwambara se, ni karibu hano muri fashoni tuguhe ibyangwe byiza cyane nawe wambare uberwe, useruke mu bandi gitwari.

Karibu bakiriya beza, hano tubafitiye imyenda myiza cyane y'abakobwa ngo nawe wakwambara ukaberwa, waba uyishaka? duhamagare kuri nimero ya terefoni ikurikira: zeru karindwi umunani umunani maganatatu mirongo ine icyenda gatanu gatanu, murakoze.

Izi ni ikweto cyangwa se imyambaro yamburwa n'abagore, usanga ari myiza cyane kubera ko biba bimeze nk'aho ari umurimbo wabo wa buri munsi, rero ni byiza kwambara bakaberwa kugira ngo bagaragare neza.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niho hantu hambere byoroshye kubona imodoka, kubera ko tugufite abakomisiyoneri , bayikugezaho aho ushaka hose, kandi bakakurangira mu buryo bwiza udahenze, ukayigura wibereye mu rugo iwawe.

Iki ni icyapa kigaragaza hamwe mu gace, mu ducuruza ibyuma cyangwa ibimashini binini bishobora kuba byakora mu buhinzi, mu gukora imihanda ndetse n'ibindi byose bikenera imbaraga nyinshi mu gukora igikorwa runaka.

Ubu biroroshye cyane kubona imodoka mu Rwanda ya ayiburidi ikoresha amashanyarazi ndetse na esanse, niba uyishaka rero wagana aho bazicuruza kuko ni ku mafaranga make cyane muri Kigali.

Waba wifuza imodoka y'inzozi zawe yo kugura cyangwa se yo gukodesha, ni karibu rwose! Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tugufasha kubona ikinyabiziga cyose wifuza kandi mu buryo bwihuse no ku giciro kitaguhenze, niba rero nawe ubikeneye ngwino tugufashe.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari munini, uba urimo ibinyabiziga bitandukanye, hagati hari ikinyabiziga kinini, gitwara imizigo ndetse k'uruhande kunzira y'abanyamaguru hariho umuntu usanzwe utwaje undi imizigo akayimujyanira ahantu hatandukanye ubundi akamwishyura.

Ubu mu gihugu cy'u Rwanda imodoka zizwi nka ayiburidi bivuze ko zikoresha esansi ndetse n'amashanyarazi, zirahari kandi ku giciro cyiza, aho miliyoni mirongo itatu uyibona nziza kandi ikiri nshyashya.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda biroroshye cyane kubona imodoka wakodesha cyangwa se wagura, hamwe na Akagera Motos Campany, babiguha mu buryo bwihuse niba uyikeneye, karibu wigurire.

Ubu biroroshye cyane kuba wakwigurira imodoka haba mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda, hari amakampani menshi akora ibijyanye n'ubucuruzi bwazo, niba ushaka kuyibona wabegera bakabigufashamo mu buryo bwihuse.

Aha baragaragaza imodoka ya vogisi wageni ikiri nshyashya, iri kugurishwa ku giciro kingana n'amafaranga miliyoni cumi na zirindwi z'amanyarwanda.

Zimwe mu modoka zizwi mu bwoko bwa yundayi, ni bimwe mu binyabiziga byihuta kandi bigira umuvuduko mwiza, rero niba ushaka kuba wakigura ntabwo baguhenda rwose ni ku giciro cyiza nk'icy'umuneke, ni karibu wigurire.

Ubu mu Gihugu cy'u Rwanda biroroshye cyane kuba wabona imodoka nziza wakwigurira ya yundayi kuko bari kuzihakorera cyane mu ruganda rwa Vogisi wageni, nawe rero wagerayo ukigurira.

Waba ufite amafaranga y'amanyamahanga? Ni byiza kugana forex bureau bakaguhamo amanyarwanda, cyangwa se niba umuntu yayakohereje kuri telefone wo hanze ni byiza kugana Western union bakayakubikurira.

Hamwe na GT bank cyangwa se grand trasted, ni byiza ko wibikiriza amafaranga yawe cyangwa se ugatanga ubwizigame bwagufasha mu iterambere ryawe kandi ukabona n'inguzanyo.

Akazi ko gucuruza amata, imigati, capati, amagi ndetse n'ibindi ni keza kubera ko gatanga amafaranga ya buri munsi kandi gafasha n'abaturage kubona ibyo kurya bitabagoye.

Bimwe mu biribwa bikundwa cyane n'abantu benshi kandi bakanabirya ku buryo bwinshi cyane ni amasambusa cyangwa ibiraha, kubera ko biraryoha kuri buri umwe wese.

Umu rugo rwawe, mukazi kawe, mu mikorere yawe, mu mibereho ya buri munsi ntukabure amazi meza ya Jibu, kubera ko yuzuye intungamubiri n'imyunyungugu, arasukuye neza cyane, arizewe cyane n'ibyiza kuyakoresha buri munsi.

Amata meza y'Inyanza, afite umumaro munini cyane kuko yujuje intungamubiri, iyo uyanyweye urabyibuha ukazana itoto ndetse n'umwana wayabonye ntagira ibibazo byinshi.

Kantine, ni ahantu bacuruza amata, icyayi, amandazi ndetse n'ibindi bintu wakenera mu gihe gitoya ugahita ubibona. Mu Rwanda rero zirahari nyinshi cyane kandi batanga serivisi nziza mu buryo bwihuse.

Aha ndabona ari muri kantine aho ushobora gusanga ibibwa nk'amandazi, imineke n'utundi tubuto, ibiraha cyangwa se ukahasanga ibinyobwa nk'amata n'icyayi n'igikoma ndetse n'ibindi umuntu yakenera mu gihe cyihuse agahita abibona.

Iki kigaragaza iyo abantu b'abarokore cyangwa batanywa inzoga bahuriye hamwe na bo nk'inshuti bagiye kwigurira akantu, baka amata nyine kuko batanywa inzoga na bo bagahana amaciyasi barangiza bakanywa.

Amata akusanyirizwa mu bicuba akajyanwa ahabugenewe, kugira ngo atunganywe avanwemo ameza yo kunyobwa ndetse no gukoreshwa mu buryo butandukanye.

Ubucuruzi bw'amata cantine, amandazi ndetse n'ibindi, bigira uruhare runini mu iterambere ry'ubikora ndetse n'iry'igihugu muri rusange kuko yunguka amafaranga make make akagenda ayatangira imisoro.

Iyi ni shopu. Cyangwa se ahantu haba hari amata ushobora kugura ya Mukamira. Rero barayatanga meza kandi aryoshye buri Munyarwanda wese yakwigurira.

Amata ni ikinyobwa kiryoshye cyuzuye intungamubiri ndetse n'imyunyungugu kiva ku nka, gifasha abana mu kugira ubuzima bwiza ndetse no kubyibuha.

Bimwe mu bikorwa bikozwe mu ifarini cyangwa se mu ifu y'ingano ndetse bivanze na mata, usanga biryoshye cyane bikundwa n'abantu benshi.

Zimwe muri poroduwi ziva mu mata, biba byatunganirijwe mu nganda, bikagira uruhare runini mu mikurire y'abana, kubera ko bakunda kubabinywa cyane ibi bikaba byuzuyemo n'intungamubiri.

MTN mobayilo mani ni uburyo wifashisha ukeneye kwishyura amazi, kohereza amafaranga, kugura amayinite cyangwa se kwishyura ikintu runaka ndetse batanga n'inguzanyo mu gihe uyifuhuza.

Iyi ndabona ari tarifu igaragaza uko kohereza amafaranga bigenda ukoresheje mobayiro mani uyoherereza mu bindi bihugu byo hanze, ibiciro uko biteye, ayo bagenda baguca.

Biroroshye cyane mu Rwanda kwishyura amazi, amashanyarazi, abonema ya televiziyo wibereye mu rugo iwawe, babikuzaniye muburyo bwa interineti wabikora wihuse.

Ese waba uzi umurongo mwiza cyane wizewe mu Rwanda nta wundi uracyari mu buyobe niba utari gukoresha MTN. Va ku giti dore umuntu, yabazaniye poromosiyo nyinshi cyane harimo kohereza amafaranga ku buntu kuyakira ndetse no.

Emutiyene mobayiro mani ni ikigo cyiza cy'itumanaho, gihuza abakozi babo, ndetse n'abakoresha, badasize n'aba ejenti, bagakora umunsi mukuru, bagasabana, bakishimana.

Ni byiza cyane gusora cyangwa kudekarara imisoro yawe hakiri kare ,ukanayishyura kugira ngo batazagushyiriraho amande kuko bikugaragariza igihe cya nyacyo cyo kuyitanga.

Kuba utashyirirwaho amande ndetse n'ibihano ku misoro, ni byiza kudekarara mbere y'uko itariki zigera bashyizeho ntarengwa kandi ukabikora witonze n'ubushishozi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, ni cyiza kubera ko kiguha ibyangombwa ibyo ariyo byose waba ukeneye bijyanye no kuba utabereyemo umwenda cyangwa se andi madeni ayo ariyo yose.

Muri bizinesi cyangwa se mu mushinga runaka, ni byiza kugaragaza urupapuro rwerekana uko bije cyangwa se imari y'ibyo ugomba gukora.

Ni byiza cyane kujya kuvunjisha amafaranga yawe y'amanyamahanga, bakaguhamo amanyarwanda mu gihe uri mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera ko biba byiza cyane iyo ukoresheje ayo mu gihugu urimo.

Ivunjisha cyangwa se ibindi bikorwa byose bijyanye no kugurana amafaranga yo mu gihugu n'ayo hanze. Ni byiza cyane kuko bigira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu nko kwishyura imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo.

Amadolari ni amwe mu mafaranga afite agaciro gahambaye cyane ku isi kubera ko amenshi umuntu atunze bayabarira muri yo, rero iyo uyafite bavuga ko uri umuntu w'umukire cyane.

Amafaranga y'amakongomani azwi mu bwoko bw'amashiriningi, afite agaciro kari hasi y'aka ay'amanyarwanda, kubera ko iyo ubishyize mu ivunjisha usanga ari hejuru kuyo mu Rwanda.

Amafaranga ni kimwe mu gikoresho cyifashishwa mu igura n'igurisha ry'ibicuruzwa ndetse n'ibindi bintu ibyo ari byo byose, rero afite uruhare runini mu iterambere rya buri kimwe cyose kuko utayafite nta na kimwe wapfa kubona.

Ivunjisha ry'amafaranga ridakorewe ku ma foregisi biro ni ribi cyane kuko hashobora kuzamo amatubuzi. Ni byiza cyane ko ugana ibigo bibishinzwe bakabigufashamo mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Aha baragaragaza umugabo uri kubara amafaranga, azwi ku madorari, akoreshwa mu gihugu cya amerika ndetse n'ibindi byo muri Afurika bimwe na bimwe kugirango horoherane ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane.

Amafaranga y'amanyamahanga azwi nk'Amahinde, ni Amarupi. Ni amwe mu yafite agaciro kuri ino si, aho usanga avunjishwa ku giciro kiri hejuru cyane. Rero mu gihe waba uyafite wagana ku ma Forex biro bakagufasha kubonamo Amanyarwanda.

Ku ma foregisi biro amwe n'amwe cyangwa se aho bagendanye n'ibintu by'ivunjisha. Ni byiza kuba bashyiraho ibiciro bigaragarira buri wese, kugira ngo hatagira uwibwa cyangwa se uwo batuburira.

Mu ivunjisha, ni byiza cyane kwirinda kujyana amafaranga yawe ku bantu badafite ibyangombwa byemewe n'amategeko, kubera ko bashobora kukwiba cyangwa bakagukorera ubushukanyi bakagucocora utwawe.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cya kongo yitwa amashilgi afite agaciro kanini cyane mu gihugu cyabo kuko akoreshwa mu igura n'igurisha ry'ibicuruzwa.

Muri iki gihe uko ivunjisha riba rihagaze, usanga amafaranga agenda ata agaciro yongera azamuka, rero muri rusange nta giciro cya nyacyo gihoraho cyayo kuko uko iminsi igenda itambuka niko ibintu bigenda bihindagurika ku masoko mpuzamahanga.

Ivunjisha mu Rwanda rihagaze neza kubera ko amafaranga yose wayabona yaba aya manyamahanga cyangwa se ayo mu bindi bihugu byo hanze y'umugabane wa Afurika, rero ni byiza kugana forex biro kugira ngo uyabone mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Amafaranga y'amadorari akoreshwa mu buryo bwo kugura no kugurisha mu gihugu cy'u Rwanda, kandi akanifashishwa mu kuvunjisha ushaka kugura ikintu mu bihugu byo hanze.

Eyateri ni isosiyete y'Abanyarwanda itanga serivisi zijyanye n'ibya mobayiro mane. Rero irizewe kandi ikora neza.

Ndabona ari kuri foresi biro cyangwa aho bakora ivunjisha ry'amafaranga y'abamanyarwanda bakaba baguha amanyamahanga cyangwa se ukajyana ayo mu gihugu cyo hanze bakagwa mu gihugu cyawe bitakugoye kandi mu buryo bwihuse.

Foregisi biro ni ibigo bishinzwe ivunjisha. Niba waba ufite amafaranga y'abanyamahanga wagana foregisi biro bakayaguhamo amanyarwanda mu buryo bwizewe. Ni byiza rero kuyajyanayo kubera ko iyo uyajyanye ahandi bashobora kubera abamamyi cyangwa abatubuzi.

Foregisi biro ni ahantu hakorerwa ibikorwa by'ivunjisha. Rero mu Rwanda ukeneye amafaranga y'amanyamahanga biroroshye kuyabona cyane kuko hari ibigo byinshi byabigufashamo kandi mu buryo bwihuse.

Mu gihugu cy'u Rwanda niho hantu honyine ushobora gusanga abantu bizewe kandi bafite n'umutekano bakora ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga n'ay'imbere mu gihugu.

Niba wifuza gukora ibikorwa bijyanye n'ivunjisha hagati y'amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amanyarwanda, ni byiza kuba wagana abaforekisi biro bakabigufashamo, kuko batiba.

Aho waba uri hose ndetse n'agace waba uherereyemo kose mu gihugu cy'u Rwanda, wagerwaho n'ibikoresho bikozwe mu ntebe ndetse n'ameza n'ibindi byose bikenerwa mu kubaka inzu yawe no kuyisukura.

Abu ahantu aho ariho hose wahabona ibikoresho bikozwe mu biti nk'intebe, imeza ndetse n'ibindi bintu byose, rero niba ubyifuza wahamagara ababikora bakabikugezaho mu buryo bunyarutse.

Bimwe mu bikoresho bikozwe mu biti cyangwa se mu mbaho, ni byiza cyane kuko bigira uruhare mu gutegura inzu zacu ndetse n'amasaro yacu nko mu kubaka ibisenge, mu gukora ameza ndetse n'ibindi bikoresho bikenewe.

Aha baratwereka uko bakora iteranirizo ry'intebe uko cyangwe se ameza uko ukuguru kuba gucomekeranije n'ibindi bice byayo.

Izi ni intebe zo muri salo abantu bicaramo baganira, cyangwa se bavugana ku bindi bintu, ndabona ari nk'iziba zikorerwa nko muri Siliva Wudu Fanica ndetse no mu zindi nganda zimwe na zimwe zo mu Rwanda, zikora ibikoresho byo muri salo byiza kandi bitunganye.

Akazi kazwi nk'akazi k'uburayi. Ni umwuga mwiza cyane ufasha abawize kwiteza imbere kuko bazikora ibikoresho bitandukanye bishobora gukoreshwa mu nzu bikabyara inyungu.

Ubu biroroshye cyane ku kubona uruganda rukugezaho ibikoresho bikozwe mu biti, cyangwa se mu mbahoho, mu buryo bwihuse. Bacuruza intebe nziza, ameza, utubati, ndetse n'ibindi.

Amwe mu mazi cyangwa se zimwe muri robine zifashishwa mu rukarabiro, ni byiza ko munsi yazo bahatega akantu kameze nk'agasorori gafata umwanda uba umaze kuva mu ntoki z'umuntu.

Icyumba cy'uruganiriro ni ahantu hagomba kuba hafite isuku, hateye irangi ryiza, intebe zimeze neza cyane ndetse n'ibitabo byo gusoma.

Indabo ndetse n'amavase n'ibindi bikoresho by'isuku by'imitako ni byiza cyane kubishyira ahantu mwakirira abakiriya kuko bikwega akayaga keza cyane mu gihe bari kuganira.

Niba ushaka aho kurara mu mu gihe wagize ubutembere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'imisozi igihumbi. Tubafite hoteli nziza kandi zifite amacumbi meza ukanitabwaho byiza cyane bikagushimisha. Ni karibu murarakaza neza bashyitsi beza!

Mu Rwanda niho hantu usanga amahoteri, amabare ndetse n'amamoteri baba bafite jaride nziza, aho bakwakirira muri jaride, bakabaha tabure y'abantu batatu cyangwa barenze, mukishima mu buryo mwaje.

Mu mahoteri yo mu Rwanda cyangwa se ahandi hantu aho ari ho hose usanga bafite imitaka ndetse n'udutebe duteye ahantu mu kajaride abakiriya bicaramo bari kuganira nta zuba ryabageraho.

Hoteri ni ahantu heza cyane buri muntu wese yakwishimira kujya, gufatayo ibiruhuko cyangwa se kujya kunywerayo ndetse no koga. Kubera ko hari abantu benshi bo kukwitaho bakagufasha muri buri kimwe cyose ukeneye.

Iki ni icyumba k'inama y'imwe muri kampani runaka, aho abayobozi bashobora guhurira mu kwiga ku ngingo zitandukanye no gukemura ibibazo byagaragaye.

Ni byiza cyane gutegura ibyumba abashyitsi cyangwa se abakiriya biyakiriramo muri hoteri kuko iyo bisa neza bituma abantu bahakunda kandi bakishimira kuza kumfatira ikiruhuko.

Ese waba ushaka hoteli nziza yo kuba wacumbikamo cyangwa se kuba wakorera mo ubukwe bwawe nikaribu mu gihugu cy'u rrwanda tubafitiye ama pisine yo kogeramo ndetse n'ahantu ho kuruhuka murisanga.

Aha ngaha ndabona ari hamwe mu rugo rw'umuntu muri saro cyangwa se muri hoteri aho umukiriya ashobora kuba yakwicara aruhuka mu gihe ari kuganira n'abandi bantu mu masaha meza nyine.

Ubu mu Rwanda biroroshye cyane kuba wakibonera icyumba muri hoteli, cyangwa kuba wabonamo uburuhukiro, waba ushaka kuraramo, waba ushaka kwirirwamo cyangwa se kuhakorera inama, ni byiza ko watumiza hakiri kare.

Ikigo gikorera mu gihugu cy'u Rwanda cya radiyati , ni kiza cyane mu bwishingizi kuko gifasha buri wese mu kwishingira ibyo yaba akora ibyo aribyo byose kandi ku kiguzi kitari hejuru cyane.

Ibigo bishinzwe amasiranse cyangwa bishinzwe ubwishingizi, bigira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu kubera ko batanga amafaranga y'imisoro, yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo no gufasha abaturage batishoboye.

Ni byiza cyane kugana ibigo by'ubwishingizi, ugashinganisha ubucuruzi bwawe kuko bigufasha mu kukugoboka igihe waba utewe n'ibibazo birimo nk'inkongi y'umuriro ndetse n'ibindi, bagufasha muri ibyo bibazo byawe.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahitwa i Remera, ahakorera ikigo cy'ubwishingizi cya Sonarwa gifasha abanyarwanda kwishingira ibinyabiziga byabo harimo amamoto, amamodoka ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Kugira ngo nibigira ikibazo bazagira ubundi bufasha.

Ubu biroroshye cyane ushobora kubona inguzanyo wibereye mu rugo iwawe nta kiguzikisha bigusabye. Icyo usabwa ni ukwaka inguzanyo gusa bakayiguha mu buryo bwihuse bitagutindiye ugahita uyibona ako kanya.

Ayi endi emu banke, ni ikigo cyiza cyane cy'ishoramari, kiri gutanga inguzanyo kuri buri muntu wese ubyifuza, kandi ubifitiye ubushobozi bwo kuyishyura, yagufasha kugira iwawe ndetse no kubona imodoka yawe bwite.

Muri iki gihe biroroshye kuba wabona inguzanyo muri Banki yose wifuza, rero ni byiza kugana ibigo by'imari bakaba bakuguriza kandi ugatangira bizinesi yawe.

Ubu biroroshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda aho waba uri hose kubona inguzanyo mu buryo butagoranye, niba ushaka gutangira business cyangwa umushinga wawe ni karibu tubigufashemo tukuguriza amafaranga yagufasha gutangira.

Eko banke ni ikigo cy'ubucuruzi n'ishoramari mu Rwanda, gifite abakiriya benshi ndetse kandi kinatanga serivise zinoze zinihuse mu buryo bwose. Ni karibu ngwino tugufashe kubonamo konte.

Ibitoki ni byiza cyane kubirya kubera ko bigira uruhare runini mu mikurire y'umuntu, bifite intungamubiri kandi biranaryoha cyane iyo ubi bitetse neza, ukabirya neza, usanga ntacyabiruta mu buzima bwawe.

Ibirayi ni bimwe mu biribwa bifite isoko rinini cyane kandi binakundwa cyane kubera ko biryoha, uko wabiteka kose mu gihe ari ifiriti cyangwa se wabitogosheje, rero byera ahantu heza cyane mu Kinigi.

Amasoko n'amaguriro. Ni hamwe mu hantu ukunda gusanga higanje igitsina gore, gicuruje imbuto, imboga, harimo nk'inyanya, amashu, imbwija ndetse n'ibindi bikenerwa bya buri munsi. Rero ni byiza gukora umushinga uguteza imbere.

Amafi, ni bimwe mu bikomoka ku matungo bikundwa cyane, rero araryoha kandi agira n'uruhare runini mu mikurire y'umuntu afite intungamubiri, niba uyifuza mu masoko agiye atandukanye barayatanga ku giciro cyiza kandi kidahenze.

Ubu ku masoko cyangwa se amaguriro yo mu gihugu cyo mu Rwanda biroroshye kuhabona imitako cyangwa se imirimbo y'ubugeni ikoze neza wataka mu nzu yawe igasa neza cyane.

Nyabugogo ni ahantu usanga abacuruzi benshi bacuruza amayinite bakorera ikigo cy'ubucuruzi kijyanye n'iby'itumanaho cya Airtel Rwanda, rero ni byiza kubashorera kuko batanga serivisi zihuse kandi zinoze.

Inyanya, amashu, imyungu, pavuro, imiteja ndetse n'ibindi biribwa byose. Ni zimwe mu mboga usanga mu masoko yose, kuko zigira uruhare runini mu ibereho y'ubuzima bw'umuntu.

Isoko cyangwa se igurirao akenshi na kenshi han usanga zikorera mu nzu nini cyane, rero biba bigoye kumenya icyo ushaka ni byiza ko bashyiraho ibiranga ibyo bakora ndetse n'ibyo bagurisha.

Iri ni isoko ricuruza imbuto n'imboga. Mu buryo bwiza harimo nk'inyanya, intoryi, amakokombure, amashu, ibitunguru, ndetse n'ibindi.

Amasoko n'amaguriro agira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu, kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibindi bikorwa remezo biba bikenewe.

Mu masoko y'ahantu hamwe na hamwe, usangamo ibiribwa nk'imineke, ibitoki, ibijumba, ndetse n'ibindi byose bifasha mu mibereho y'ubuzima bwa muntu, bwa buri munsi.

Bamwe mu bagore benshi bo mu Rwanda bagiye batezwa imbere n'ubucuruzi buciriritse, aho batangiye bacuruza imineke, avoka ndetse n'ibindi, rero ni byiza kwihangira umurimo mu gihe ubona nta kintu uri gukora.

Amasoko ndetse n'ahandi hantu henshi bagurira ibintu runaka, usanga hagira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, kubera ko abacuruzi bakoreramo bibafasha kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi, no kubona ibitunga imiryango yabo.

Amwe mu maguriro, amaduka se cyangwa ahandi hantu bacuruza ibijyanye n'imyambarire wahagurira imyenda n'ibindi byose kuko bigira uruhare runini mu gusa neza kw'abantu ndetse na sosiyete muri rusange.

Ni byiza kujya kugurira mu masoko agezweho kuko bigufasha kandi bikanakurinda kuba wahura n'abatubuzi bakwiba amafaranga yawe kuko abantu bose turabizi ko abazunguzayi batemewe.

Amwe mu masoko ateye imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, usanga bigoranye kumenya aho ugiye guhahira ikintu ushaka kugura, rero biba byiza ko bashyiraho ibyapa biyobora abakiriya, aho bagomba kugurira.

Mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere twose no mu mirenge yose, ubu biroroshye kubona amasoko kuko bagiye bayubaka muri buri gace hose, aho usanga abamama cyangwa abagore muri rusange, bihuriza mu makoperative bagakora amatsinda abafasha kwiteza imbere.

Aha ngaha baratugaragariza cyangwa bakatwereka uko ushobora kuba wakwigurira amayinite cyangwa se megabayiti wakoresha, ukoresheje telefone yawe bidasabye kujya kumu ajenti wa mobayiro mani.

Ubu ntago bikigoye cyane kwishyura ibyo wahashye cyangwa ibyo waguze, ubu biroroshye cyane kwishyura ukoresheje hamwe na momo peyi, nta mafaranga y'ikiguzi baguca ni ayo wishyuye gusa.

MTN mobayiro mani yadushyiriyeho uburyo bwiza bwo kwishyura, ukoresheje kode buzwi nka momopeyi. Rero nta kiguzi bisaba, nta mafaranga yandi baguca, ni ukubikora gusa ni kubuntu.

Tumwe mu tuzu twa MTN cyangwa tuzwi nka kiyosiki, twifashishwa n'aba ejenti b'ayo masosiyete kugira ngo babone uko batanga serivisi nziza kandi zinoze mu buryo bwihuse.

MTN mobayiro mani ni imwe muri sosiyete y'itumanaho mu Rwanda igira uruhare runini mu iterambere ry'umuturage, kuko ibafasha kwiguriza mu buryo bwa mokashi ndetse no kwishyura nta nyungu nyinshi bashyizeho.

Iyi ni inzu ikozwe mu buryo bw'icyuma itangwa na emutiyene kampani, ifasha abacuruza amayinite ndetse no kubitsa no kubikuza gutanga serivise nziza kandi zihuse ndetse n'ibindi bicuruzwa by'iyo sosiyete.

Emutiyeni mobayiro mani, ni uburyo bw'itumanaho, ndetse no kubitsa no kubikuza, bworohereza abanyarwanda kubona amafaranga yabo, babikije cyangwa bizigamiye mu buryo bwa mokashi.

Inzu zizwi nka kiyosiki zikoreramo cyane cyane abajenti aba MTN cyane cyane, mu gihugu kubera ko bifite uruhare runini mu iterambere ry'abaturage b'u Rwanda.

Zimwe mu nyubako zizwi nka keyosike zifashishwa na mtn, ubwo ni ab' agent bayo. Ni nziza cyane kubera ko zifasha abakiriya kumenya aho abo bagana cyangwa se kumenya aho bakura serivisi nziza ziboneye.

Emutiyeni mobayiro mani ni ikigo cy'itumanaho gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibindi bihugu byo hanze yarwo, kirizewe rero kuko kigufasha kuba wabona inguzanyo, kuba wakohereza amafaranga hanze, ndetse no mu gihugu.

Aha kandi nanone kandi ndahabona imoto nziza cyane ya Tevisi ya Saventisenke, ikora derivari y'ibicuruzwa nk'ibiryo ndetse n'ibindi bintu mu gihe ubitumije uri ku kazi wumva nta mwanya ufite, ushaka kurya nko mu gihe cya sasita babikugezaho neza kandi bihuse.

Vuba vuba hamwe nawe na bo wasirimuka cyane rwose, waba ushaka kugura ibiryo cyangwa se ikindi kintu kikakugeraho mu buryo bwihuse? Rero bagukorera derivari mu kanya nk'ako guhumbya, ukabona ibyo wifuzaga.

Ndahabona isoko ryitwa afurifama maketi. Iri soko rero rigufasha mu kuderivaringa cyangwa kukugezaho ibintu ukeneye byose, zaba imbuto, imboga ndetse n'ibyo kurya, mu buryo bwihuse. Urabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri watsapu, bahita babikugezaho vuba kandi byihuse.

Iyi ni inyubako iri muri zimwe ziherereye mu Rwanda zicuruza imyenda yaba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore kandi myiza cyane ibereye abantu muri rusange, ushobora kwigirayo ukagura.

Ndabona moto nziza cyane ya Tevis ifite purake ya R D 656 C, ikora mu kuderivaringa ibicuruzwa mu gihe ubitumije, bijyanye nk'ibiryo, urabitumiza bakabikuzanira mu gihe gito cyane.

Ubu ngubu biroroshye cyane mu gihugu cyacu wibereye mu rugo iwawe, ufata telefone yawe ukajya kuri onurayine ugatumizaho cyangwa ugatanga icyo bita komande mu kanya gato baba babikugejejeho nta kiguzi kinini bigusabye.

Ndahabona moto ni mu gace ka Bugarama, iki kinyabiziga rero gikora delivari y'ibicuruzwa ushobora kuba utumije mu gihe wibereye iwawe bakabikugezaho kandi mu buryo bwihuse. Uyu mumotari rero niwe abikugezaho, uhamagara kuri kampani bakakoherereza umumotari.

Onulayini teredindi ni uburyo bwo gucuruza ukoresheje ikoranabuhanga, uba wibereye mu rugo ugatumiza igicuruzwa ahantu runaka bakakikugezaho bitakugoye kandi nta kiguzi kinini bigusaba.

Aha ndahabona hari ibicuruzwa bitandukanye, renovo na telefoni ndetse n'amakoti n'ibikapu by'abagore. Aha rero ni urubuga rwa ari baba aho ujyaho ugatumiza igicuruzwa runaka bakajya bagukorera derivari utavuye aho uri.

Igihugu cy'u Rwanda mu Mujyi wa Kigali, biroroshye cyane kuba wakwigurira ikintu wibereye mu rugo iwawe, kuko uratumiza bakakikugezaho mu mwanya muto cyane nta gutinda. Waba ugikeneye se cyangwa ukifuza? Ni karibu rwose ngwino tugufashe.

Ubungubu mu Rwanda biroroshye cyane kuba wicaye muru rugo iwawe ukaba watumiza ibiryo mugihe ntamwanya woguteka ufite, hamwe na rash ifunze babikugezaho mu kanya gato kandi nta gikuzi cya delivery usabwe.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga. Ahangaha turabona amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga y'amanyamahanga, amadorari bitewe nayo ukeneye uraza ukazana amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga cyangwa ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda wahabona inzu nziza cyane ifite ibyumba na saro ndetse n'aho ubwogero, ikodeshwa ku mafaranga make cyane angana n'amadolari igihumbi n'ijana ni karibu rero wikodeshereje inzu yawe nziza n'inzozi zawe.

Icyumba cyo kuraramo ni ahantu hagomba kugira isuku cyane, kubera ko iyo usinziriye biba byiza kuryama ahantu hatari umwanda.

Ubu mu mujyi wa Kigali muri Kanombe wahabona inzu nziza cyane ikodeshwa ku mafaranga make ifite parikingi y'imodoka eshatu ndetse ibyumba byo kuraramo n'ibindi ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu gusa ukayigurira ikaba iyawe.

Mu gihugu cy'u Rwanda ubu biroroshye cyane kuba wabona inzu ukodesha ku mafaranga make cyane angana n'amadolari magana inane, rero niba uyishaka hari abakomisiyoneri bizewe kandi b'abanyamwuga babigufasha mu kuyibona.

Ubu biroroshye cyane mu mujyi wa Kigali. Kuba wakwibonera inzu wagura ku mafaranga make cyane kandi itaguhenze, nka miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda, rero niba uyishaka wakwegera abakomisiyoneri babikora mu buryo bwa kinyamwuga bakagufasha.

Ni amafaranga cyangwa se ni inote ikoreshwa mu gihugu kizwi nk'Ubuhinde ayo mafaranga akaba ariho akoreshwa.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ubu biroroshye cyane kubona inzu nziza cyane wakodesha kandi ku mafaranga make cyane, niba rero uyishaka ni karibu tubigufashemo karibu.

Aha ni muri igali kabeeza, ikaba ari inyubako ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi ni ku giciro cyiza bafite n'igikoni cyiza.

Ubu biroroshye cyane mu Mujyi wa Kigali, hano ni hamwe muri zimwe muri kampani zakurangira inzu zo kugura, ni byiza cyane kuko wayibona idahenze kuri miliyoni magana atatu mirongo itanu imeze neza cyane.

Iyi nayo ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, igurishwa ikaba ihagaze agaciro ka miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda wagerayo ukigurira.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali niho hantu hambere wabona inzu cyangwa se icyumba cyo gukodesha kidahenze ku mafaranga make cyane, aho wakibonera kuri amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, karibu wikodeshereze.

Ubu mu Rwanda mu Mujyi wa Kigali biroroshye cyane kubona inzu y'inzozi zawe. Waba warifuje kuba mu nzu nziza cyangwa se na n'ubu ukibikeneye? Ni karibu hamwe n'abakomisiyoneri tukurangire aho uyibona ku giciro kitari kinini cyane, kingana n'ibihumbi bibiri by'idolari.

Ubu biroroshye cyane kubona ahantu cyangwa se aparituma wakodesha ku mafaranga make cyane mu mugi wa Kigali, niba rero ubyifuza wagana ibigo biyitanga, izo serivisi bakabigufashamo mu buryo bwihuse.

Inzu zikodeshwa, ni inyubako ushobora kuba wakodeshamo icyumba cyangwa se byinshi mu buryo bwiza, ukazajya wishyura ku kwezi kandi udahenzwe muri Kigali ndetse no mu Rwanda hose.

Ndabona inyubako nziza cyane iherereye muri Kigali igurirwa ku bihumbi bibiri by'idolari, uyikeneye bakatugaragariza nimero waba wahamagaraho zeru karindwi umunani mirongo itandatu cumi na gatandatu irindwi n'umunani icyenda.

Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ahandi hantu hose, ubu biroroshye cyane kuba wabona inzu ukodesha nziza, y'ibyumba birenze kimwe, harimo amazi n'umuriro, kandi ku giciro kitari kinini cyane.

Ubu ngubu mu Rwanda biroroshye cyane mu Mujyi wa Kigali, aho waba uherereye hose kubona inzu nziza y'inzozi zawe yo kugura cyangwa gukodesha. Iba igeretse inshuro zirenze ebyiri kandi isa neza mu buryo bwiza bwose.

Ubu birororoshye cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali muri Kimironko kuba wabona inzu yawe wakwigurira itaguhenze, rero niba waba uyishaka wagerayo ukagura rwose ku giciro cyiza.

Aha ndahabona inzu mu mujyi wa kigali nziza kandi idahenze cyane ku gaciro k'amadolari ibihumbi ijana na mirongo ine ifite ibyumba bitatu n'ubwogero butatu ndetse n'igikoni.

Haragaragara inzu cyangwa se apartement irimo studio ushobora kwishyura amafaranga agera ku bihumbi magana atatu na mirongo itanu bakaba bagufasha muri buri kimwe cyose wifuza.

Niba ushaka ahantu cyangwa se ikibanza cyo kugura mu Rwanda, ni byiza cyane ko wegera abakomisiyoneri babugenewe bakakurangira agace keza ko kuguramo inzu y'imiturire yawe.

Ubu biroroshye kuko hari imbuga nkoranyambaga nyinshi ushobora kunyuraho ushaka gukodesha yaba inzu, ubutaka cyangwa se ikindi kintu runaka mu buryo bwihuse.

Ubucuruzi bw'ibyo kurya cyangwa se ibindi bikoresho ni ubucuruzi bufite akamaro kanini ku gihugu kubera ko butanga imisoro bukanafasha bamwe kubona akazi kabo ka buri munsi.

Mu masoko amwe n'amwe usanga haberamo ubucuruzi bw'imbuto ndetse n'imboga zigira uruhare runini mu mikurire y'umuntu. Rero ni byiza kuzirya kuko ni nziza cyane.

Mu Rwanda, mu gihugu cyacu cyiza gitemba amata n'ubuki. Ubu muri ino minsi ushobora kwihahira wibereye mu rugo, ugatumiza ibintu mu maduka runaka akomeye, bakabikugezaho kandi mu buryo bwihuse.

Gucuruza imyenda bigira uruhare runini mu buzima bwa buri munsi bwa muntu kubera ko abaturage cyangwa se abenegihugu babona ibyo kwambara kandi bakabona n'akazi ndetse ababikora bakanasora umusoro ufasha mu kubaka ibikorwa remezo.

Amaduka cyangwa se ama supermarket ni ubucuruzi bufite uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo.

Mu Rwanda mu gihugu cyacu niho hantu honyine ushobora gusanga ahantu uhahira heza kandi hizewe ndetse bakaba banagutwaza icyo twita derivari mu rurimi rw'amahanga, ni byiza rero ko ujya kubagurira kuko birahendutse cyane.

Mu Rwanda niho hantu hambere wabona intebe nziza kandi zizewe. Ziraramba zimara igihe kinini kandi ziba zikomeye zifite uruhu rwiza ntaza kurinda amavunane ni karibu ngwino wigure.

Aha hagaragara umuyobozi wa ejo heza, ikaba ari sisitemu y'abanyarwanda yo kwizigamira amafaranga make make ugendeye ku bushobozi bwawe, akazagufasha mu gihe uzaba ushaje utagishoboye kubona umushahara cyangwa gukora akazi.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niho hantu hambere nasanze haba imivurire myiza kubera ko utanga ubwishingizi bukazagufasha mu gihe ukeneye kwivuza, ni byiza rero kubutanga kuko ni ingenzi mu buzima bwawe kandi urabukenera cyane.

Iyo ugeze mu mujyi wa Kigali mu Rwanda niho hantu ubona imitirirwa cyangwa se inzu z'amagorofa ndende cyane utapfa kubona ahandi hantu mu gace k'u Rwanda, ni ibigaragaza ko hateye imbere.

RSSB ni ikigo cy'igihugu gifite uruhare runini mu mu banyarwanda, cyane cyane mu kubona mitiweli. Rero cyishingira abaturage, kugira ngo bagire buvuzi butabahenze.

Sisitemu cyangwa se uburyo bwa ejo heza bugira uruhare mu kwisevingira cyangwa mu kwibikiriza amafaranga mu gihe kirekire kuko iyo ugeze mu zabukuru bagufasha kuba wabona ayo uba wababikije...

RSSB ni ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi cyishingira abaturarwanda muri rusange mu buryo buzwi nka mituweri, aho umunyarwanda yishyura amafaranga azamufasha kwivuza mu minsi iri imbere nta kiguzi kinini bimusabye.

Aha haragaragara imwe muri supamaketi ishobora kuba iherereye mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hantu mu cyindi gihugu, icuruza ibicuruzwa byo kuribwa no kunyobwa nk'inzoga ndetse n'ibindi umuntu yakenera kunywa kandi byiza.

Ndebeye kuri uru ruhande ndabona iyi ari nk'imwe muri supamaketi zo mu Rwanda, zishobora kuba zicuruza ibicuruzwa byose waba ukeneye cyangwa se ugasanga ari n'arimantasiyo ishobora kuba icuruza ibintu bijyanye n'ibiribwa, umunyarwanda wese yakenera.

Aha hari haragara bamwe mu baturage, bari bagiye guhahira muri supamaketi, ibicuruzwa bitandukanye byo kurya mu buzima bwa buri munsi.

Iyi ni arimantasiyo zicuruza ibiribwa, harimo nk'amasinakisi, amandazi, imigati, amamayoneze, ndetse n'ibindi biribwa umuntu ashobora kurya mu buzima bwa buri munsi.

Aha haratugaragariza ibyo kunywa amazi, amaji ndetse n'ibindi byinshi biri muri firigo, birimo gukonjeshwa kugira ngo umuntu ashobora kuba yagikenera kukinywa gikonje abe yakibona kandi mu buryo bwihuse bitamusabye gutegereza.

Supamaketi cyangwa mu masuperi marishe ni hamwe usanga ibicuruzwa byinshi cyane kandi bitari ku giciro gihenze, rero niba ushaka kuba wajya kwigurira wagana bakagufasha mu buryo bwihuse kandi bubangutse.

Mu ma supamaketi ni ho hantu honyine ushobora gusanga ibicuruzwa byose wifuza kandi ku giciro kiza nta kuguhenda bibayemo ndetse no kugutuburira, ni karibu rero wigurire ibyo ukeneye.

Mu masomero niho hantu ha mbere hizewe cyane umuntu ashobora gukura ubumenyi yaba yifuza ndetse n'amakuru yaba ashaka kumenya mu gihe icyo ari cyo cyose.

Supemaketi cyangwa alimantasiyo ni bimwe mu bigo bikomeye cyane mu Rwanda, bigira uruhare runini mu kwihutisha iterambere kubera ko batanga imisoro yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo n'ibindi bintu by'ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Ubu ibintu byaroroshye, kubera ko mu gihugu hose no ku isi yose ushobora kwibonera supamaketi hafi yawe bitakugoye, ukajya kwigurira za sinakisi zawe washakaga, wahoze wifuza.

Ubucuruzi bwa supamaketi ni ubucuruzi buteye imbere kandi bugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, niba rero wifuza kujya guhahirayo ni karibu banguka tukwihere ibintu byose ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi.